Ifumbire y'imborera ifasha imyaka gukura neza kuko ivangwa mu butaka, aho ugiye guhinga icyo gihingwa bigatuma gikura neza, kandi kigatanga umusaruro ushimishije.

Kubera ibihe bigenda bihinduka ndetse n'abahinzi bunguka ubwenge bwo guhinga kurushaho, hari ibikoresho byinshi bigaragara aho ibicuruzwa bikoreshwa mu buhinzi no mu bworozi biba biri, iyo ubikeneye urabibona.

Kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera, hakozwe n'ifumbire iyo tuzi nk'imvaruganda ivangwa n'imborera igaterwa ku myaka cyangwa igihe cyo kuyibagara kigeze ukayikoresha.

Hari igihe ubuhinzi bwakorwaga n'abantu bakuru cyangwa se abo tuvuga ngo ntibize ariko ubu siko bimeze kuko ahubwo ubu busigaye bukorwa n'ababwize cyane.

Gana ahacururizwa imiti y'amatungo cyangwa iy'ibihingwa kugira ngo ubashe kugura iyo wahungiza imyaka yawe igihe yeze ndetse n'amapompe wakoresha uri gutera umuti mu myaka wahinze.

Igihe wahinze imbuto zizakenera umuti cyangwa imboga, ibuka gusiga umwanya waho uzajya uca uri kuhira cyangwa uri gutera umuti kugira ngo utazagira ibyo ukandagira bikangirika.

Muhinzi tunganya ifumbire yawe hakiri kare y'imborera, kugira ngo uzajye kuyikoresha yaraboze bihagije, hanyuma nawe bizatuma umusaruro wawe urushaho kwiyongera.

Ahacururizwa imirama yo guhinga ndetse n'ibikoresho umuntu akoresha yuhira imyaka yahinze, hashyirwaho ibiciro bya buri gicuruzwa gihari, kugira ngo uje kubigura adahendwa.

Mu rwego rwo kugira ngo ubone ifumbire itubutse yo gukoresha y'imborera gushaka ukuntu uvanga amase ndetse n'ibindi byatsi ukajya usukamo n'amazi, gusa ukibanda ku byatsi bibora vuba igihe cyagera ukayihindura kugira ngo n'iyo hejuru ibonere.

Ibigori bikenera ifumbire y'imborera ndetse ukavangamo n'imvaruganda igihe uri kubitera, ariko hari n'iyindi ukoresha igihe cyo kubibagara kugira ngo bizakure neza.

Ahacururizwa imiti ikoreshwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi dusangamo n'imiti ikoreshwa igihe imyaka yeze ukayihungira kugira ngo nuyihunika utazasanga yaramunzwe.

Aho ukorera ubucuruzi, shyiraho icyapa kigaragaza ibyo uncuruza, kugira ngo umuntu uzahaca, azamenye igikorwa gikorerwa aho hantu, hari n'igihe yaba na we abikeneye.

Ibirayi bibamo ubwoko butandukanye, aho hari ibyangirika vuba ndetse n'ibyo wabika bikaba byamara amezi atatu bikiri bizima. Twite ku guhinga ku byo twabika bikamara iminsi.

Abahinzi n'aborozi bakenera imiti bakoresha mu bihingwa byabo cyangwa ku matungo yabo, ndetse bakenera n'ibyo bakoresha buhira imyaka yabo, kandi bigira aho bicururizwa bakabihasanga bitabagoye.

Ifumbire mvaruganda habamo iyo bakoresha igihe cyo gutera imyaka ndetse hakaba n'iyo bakoresha igihe cyo kubagara kuko zose ntago zikora kimwe, buri yose igira umumaro wayo.

Igihe ugiye gushyira ifumbire mvaruganda ku gihingwa, iyo bongeraho bari kubagara ugomba gukurikiza amabwiriza yabugenewe kugira ngo utazayarenza bikangiza igihingwa.

Igihe ugiye guhinga imboga zirimo nk'inyanya cyangwa amashu, egera abacuruzi bacuruza imirama baguhe uwo uzahinga kandi utanga umusaruro.

Igihingwa cya kawa kigomba kwitabwaho kuko kigira umusaruro iyo kitaweho neza kandi kigira amafaranga kuko gikoreshwa hano mu Rwanda kandi gikunzwe no mu bihugu by'amahanga.

Ahagenewe gutunganyirizwa ibiti byo gutera, haba hari ubwoko butandukanye yaba voka cyangwa imyembe ndetse n'amaronji n'indimu biba bihari.

Mu gishanga hashyirwa inzira y'amazi kugira ngo amazi naba menshi atazajya mu mirima, akangiza imyaka baba bahahinze, birabafasha kuko n'igihe bakeneye kuhira na bwo bayabona hafi.

Niba ufite umurima ukaba ushaka kuwuteramo ishyamba ry'inturusu, egera aho zinarizwa kugira ngo baguhe izigeze igihe cyo guterwa, kandi zizaguha umusaruro vuba.

Ibiti by'ubwoko bwa avoka bwera vuba kandi bugatanga umusaruro mwinshi, dore ko ukeneye no kuzijyana ahantu kure zo zitangirika kuko ntabwo zishya vuba zigira n'igihu gikomeye.

Imyaka yatewe ku murongo usanga igaragara neza kandi si ibyo gusa kuko itanga n'umusaruro uhagije kuko iba yatewe iteranwe ifumbire ihagije.

Ubutaka bweramo ibitunga abantu ari byo ibiribwa; aho hahingwa ibishyimbo ndetse n'imyumbati, hari n'ahaterwa ibindi biti bivamo imbuto.

Ushobora gutekereza umushinga wo guhinga inanasi ariko banza uwige neza wegere n'abasanzwe babikora cyangwa abashinzwe iby'ubuhinzi, kugira ngo bagusobanurire uko uzahinga kandi ukabona umusaruro uhagije.

Kugira ngo umuntu atere igiti gikure neza bisaba ko aba yarabanje kukinaza, aho ufata itaka ugashyira mu gihoho ugashyiramo urubuto rwawe ushaka ko ruzakura, rwamara kugera hejuru ukabona kurutera.

Ubutaka buba butandukanye, igihe hari ibyo ugiye guhinga reba niba bijyanye n'aho ugiye kubitera kugira ngo utazabitera bikanga kwera kandi hari ibindi wari buhatere byo bikaguha umusaruro.

Ibitoki byitwa imizuzu cyangwa imishabi birakunzwe cyane, dore ko yaba mu mahoteri cyangwa n'abandi babisobanukiwe mu ngo zabo barabikoresha

Muhinzi, hinga imyaka yawe ku murongo kandi buri mwobo wacukuye wibuke gushyiramo ifumbire yabugenewe, bizatuma umusaruro wabonaga wiyongera.

Tegura umurima wawe igihe ugiye guhinga urutoki, ucukure imyobo yabugenewe kandi ushyiremo ifumbire, wibuke kuzajya wita ku nsina ukuraho ibyana byajeho bidakenewe.

Ushobora guhinga ubunyobwa nawe ukajya ukoresha ubwo wejeje, aho kugira ngo ukoreshe ubwo waguze. Niba ufite ubutaka gura imbuto hanyuma nawe uhinge ubunyobwa.

Igikorwa cy'ubuhinzi cyatunganyijwe neza, aho ibihingwa biteye k'umurongo harimo insina zivaho ibitoki ndetse n'amapapayi avamo imbuto.

Mu bihingwa ngandurarugo hari icyo tuzi nk'ikawa, kuko ubu isigaye ifasha ku bayihinga kuko yazamuriwe igiciro, bituma abayifite babona amafaranga ahagije.

Ubuhinzi bw'icyayi bugenda bwongerwa ku buso buhingwaho kugira ngo turusheho kubona icyo tugemura mu bihugu byo hanze ari cyinshi kandi n'inaha iwacu mu Rwanda kirakoreshwa.

Turusheho kubungabunga aho dutuye, dutera ibiti kuko hari n'ibivangwa n'imyaka. Twibuke yuko umwuka duhumeka biba bisaba yuko uba mwinshi kandi ibiti na byo biri mu biwongera.

Ikawa ni igihingwa kera hano mu Rwanda, kikaba gifite agaciro kuko kizana amadovize mu gihugu, aho gitunganywa kikagemurwa ku rwego Mpuzamahanga, dore ko gikundwa n'abatari bake.

Igihe hari igihingwa ushaka gutera nk'imbuto, ni byiza yuko ubanza kubyiniza mu mashashi yabugenewe azwi nk'ibihoho kugira ngo nirumara kuzamuka uzarutere ruhite rukurira rimwe.

Mu buhinzi ukora uzibuke no guhinga dodo kuko na zo zirakoreshwa cyane kandi zitanga umusaruro vuba kuko mu gihe gitoya ziba zitangiye kwera.

Aho wahinze ishyamba jya uzirikana kujya gukuraho ibiti bitari ngombwa kugira ngo ibisigayeho bizakure neza hanyuma uzabone umusaruro wabyo.

Ibigori byera hano iwacu mu Rwanda, bikoreshwa mu ngeri zitandukanye aho hari ababyotsa ari bibisi cyangwa byakuma bigakorwamo ifu izwi nka kawunga.

Kugira ngo ubone umusaruro uhagije ukomoka ku byo wahinze nk'ibigori bisaba ko ubyitaho kandi igihe hajemo ubukoko ugateramo umuti, biragufasha kubona umusaruro wifuza.

Umuhinzi uhinga beterave, igihe iyo kigeze arazisarura akazizijyana ku isoko ndetse na we agasigarana izo akoresha mu rugo, dore ko ari igihingwa gikungahaye mu kongera amaraso mu mubiri w'umuntu.

Ingurube ni itungo ryororerwa mu rugo. Ku muntu ushaka kugira iterambere ryihuse, arazorora, dore ko zororoka mu gihe gitoya, kuko ntabwo zigorana, kuko n'ibiryo byazo biraboneka.

Amatungo akenera ibiribwa biyongerera intungamubiri ku isoko biracuruzwa biba bihari, igihe woroye ihene cyangwa inkoko ndetse n'inka, zigurire ibyo biribwa uzibihe.

Inkoko zigenerwa ibiribwa bituma zikura vuba ndetse zigahabwa n'amazi yo kunywa, hari izororwa zikabyara izindi ndetse hari n'izitera amagi gusa n'izindi zibagwamo inyama.

Igihe ufite imbwa, ugomba kwita kuyikingiza, kugira ngo itazagira umuntu iruma, bikamuviramo ingaruka zikomeye, dore ko hari n'abo ziruma bikabaviramo gupfa.

Kugira ngo turusheho kubungabunga ibidukikije ndetse n'amazu y'aho dutuye, tugomba gusibura inzira z'amazi kugira ngo atazajya ayoba akangiza byinshi.

Kugira ngo ubone umusaruro uhagije, hinga ibihingwa byawe ku murongo bizatuma ubona uko ushyiramo ifumbire bitakugoye ndetse n'igihe cyo kubyuhira, ntago bizakugora.

Muri gahunda yo gutunganya aho dutuye tuhagirira isuku kurushaho; hashyirwaho gahunda y'umuganda, aho abahatuye bahurira hamwe bagatunganya inzira rusange z'inyurwamo n'abantu.

Mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'uko ibihuru bikikije ahari abantu byabaye byinshi, hakihishamo udusimba nk'imibu dutera malariya, tubikate hakiri kare twirinde.

Mu rwego rwo kongererana imbaraga, abahinzi bashobora kwishyira hamwe bagahingira hamwe ari benshi, bigatuma babona umusaruro uhagije, kuko aho baba bahinze aba ari hanini.

Uturima tw'igikoni turatunganywa ndetse usanga hari abakorerabushake badutunganyiriza abaturage mu ngo zabo, ni yo mpamvu igihe kakugezeho uba ugomba kukabungabunga nawe ukagafata neza.

Shyira itaka mu bihoho kugira ngo winazemo imbuto, bizatuma igihe cyo kuzitera bitakugora kuko uzabona uko uziterura uzijyana aho ugiye kuzitera.

Umuhinzi uhinga avoka zera vuba, kandi zikiri ntoya, kuko umusaruro wazo ugaragara hakiri kare, aho kugira ngo utere voka ishobora kumara imyaka itanu itarera.

Kugira ngo ubone umusaruro uhagije, banza usobanukirwe neza ingano y'amazi uzajya wuhiza ibihingwa byawe, utazashyiraho menshi akabyica, cyangwa ugashyiraho makeya nabyo bikaba ikibazo.

Mbere yo kugira imyaka yindi wongera guhinga mu murima, urabanza ukawutunganya ndetse iyo usaruyemo ntabe ariyo usubizamo kugira ngo urusheho kubona umusaruro mwinshi.

Umwuga w'ubuhinzi ni umwuga w'ingirakamaro cyane kuko ibidutunga byose bihingwa mu butaka, ni yo mpamvu uwukora aba akwiye kuwitaho cyane kuko ni byo bidutunze.

Mu buhinzi ukora habamo no gutunganya umurima kugira ngo uzateremo imbuto umurima umeze neza kandi wararebye y'uko nta burwayi burimo bwazatuma imyaka uhinzemo yangirika.

Igihe ugiye guhinga tunganya umurima wawe neza, nurangiza utere imyaka ku murongo kandi wacukuye imyobo kugira ngo ubone uko ushyiramo ifumbire.

Imirima ihingwamo ibintu bitandukanye, aho hari igihe usanga hahinzemo amateke cyangwa insina, ugasanga hahinzemo n'ibigori cyangwa n'indi myaka migufi.

Ubuhinzi iyo bukozwe neza butunga ubukora ndetse n'abe kuko nawo ni umwuga mwiza kandi ubeshejeho benshi, turusheho gukurikiza amabwiriza y'abajyanama b'ubuhinzi aho dutuye.

Iyo ugiye gutera imyaka mu murima, urabanza ukawutunganya kugira ngo ukuremo ibyatsi bitari ngombwa ndetse n'ubutaka bworoheye kugira ngo igihingwa uzateramo kizazamuke neza.

Urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye rutozwa ukuntu ruzajya rukora uturima tw'igikoni, aho babikora mu midugudu y'aho batuye cyangwa mu tugari.

Mu gutera imbuto mu mirima hakoreshwa uburyo butandukanye, aho hari abakoresha intoki cyangwa bagakoresha amasuka ndetse hari n'abakoresha imashini.

Imirima yose igomba kwitabwaho yaba ihinzwemo intoki cyangwa ibindi bihingwa, kuko iyo utayitayeho umusaruro ugenda uba mukeya.

Imyumbati ni ikiribwa gikoreshwa n'abantu benshi, aho yumishwa igakorwamo ubugari ndetse hari n'iyiribwa ari mibisi yitwa imiribwa.

Igitoki, ibirayi, ni ibiribwa bikunze kwifashishwa n'abantu benshi, aho usanga amabutiki hafi ya yose abicuruza kuko ni ibiribwa byorohera abantu kubitunganya.

Muri gahunda yo kurushaho kunoza ubuhinzi ndetse no kongera umusaruro, abaturage bigishwa uko bagomba gukora ifumbire y'imborera kugira ngo byongere umusaruro.

Imiteja iri mu bihingwa byera vuba kandi bikundwa, yihinge igihe uyejeje uyisarurire mu bikoresho byabugenewe kugira ngo uyigeze ku isoko ikimeze neza.

Aho umuntu ahinga yibuka no kuvangamo imyumbati ariko atari myinshi kuko yo itinda kwera, ahubwo ushyiramo mikeya kugira ngo ujye ukomeza uhingamo nk'ibindi bihingwa byera vuba.

Mu Gihugu cy'u Rwanda hakozwe amaterasi y'indinganire kugira ngo umusaruro ukomeze wiyongere kandi n'ubutaka bwazaga butemanywa n'amazi bujye buguma hamwe, kuko byatumaga n'ifumbire washyizemo itembanwa.

Ibihingwa wahinze, ntabwo byose biterwa umuti umwe. Ibishyimbo bigira umuti wabyo ndetse n'ibirayi, kandi ukamenya neza yuko, aho wagiye kuwugura wabasobanuriye umuti ukeneye uwo ari wo.

Inyanya zisarurirwa mu bitebo kugira ngo zidakomeza kwangirika, kuko ntago zibikika neza zangirika ubusa, bigatuma uzigeza ku isoko iyo ziri mu bitebo zitangiritse cyane.

Nubwo hari imiceri itumizwa mu bihugu byo hanze ikagurishwa hano mu Rwanda, ntabwo ari yo yonyine ikoreshwa kuko hari n'iyera hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi ikanahatunganyirizwa, tugure ibikorerwa iwacu twiteze imbere.

Mu Rwanda hahingwa igihingwa cyitwa urutoki kuko cyifashishwa n'abantu benshi mu mirire yabo bityo kikagezwa ku masoko ndetse ugasanga hari n'abashinze amadepo yo kubicuruza.

Ibigori iyo wa bimanitse ahabugenewe, bituma igihe cyo kubibika bitangirika kuko iyo ubibitse bitaruma neza usanga byarateye uruhumbu.

Ibishyimbo ni igihingwa cyera hano mu Rwanda kandi cyifashishwa n'abantu b'ingeri zose, ku bigo by'amashuri kirakoreshwa cyane ndetse no mu ngo aho abantu batuye nabwo kirakoreshwa.

Kamaramasede ni igitoki gikoreshwa nk'imineke iyo gihiye kandi gikundwa n'aba batari bake, bigire umushinga utere insina zeraho ibyo bitoki.

Uretse ko voka ziribwa zikorwamo n'ibindi bintu byinshi, aho zitunganywamo amavuta yo kwisiga cyangwa ayo gusiga mu musatsi ndetse hari n'ayakorwamo yo kuribwa.

Iyo abantu bashaka kugira umusaruro uhagije nk'ibigori bahuza ubutaka bagahingaho igihingwa kimwe hanyuma umusaruro ukazaboneka ari mwinshi kandi bakawushakira isoko.

Ibirayi ni kimwemwe mu bihingwa byera hano mu Rwanda kandi bikenerwa n'ingeri nyinshi z'abantu batandukanye; niyo mpamvu byitabwaho bikabikwa neza dore ko byo biri mu biribwa bishobora kubikwa bikamara igihe.

Muri gahunda yo guteza imbere ubuhinzi, hashyizweho gahunda yo guhuza ubutaka hanyuma abantu bagahinga igihingwa kimwe kugira ngo babone umusaruro uhagije kandi utubutse, bawujyane ku isoko ubagirire umumaro.

Ibigori iyo bimaze kuma neza aho byanitswe muri hangari, biravungurwa hanyuma ugashaka uko ubibika cyangwa se ukabigeza ku isoko ukabigurisha.

Aho ukusanyiriza umusaruro wawe, ibuka kurobanuramo ibitameze neza kugira ngo ibindi uzabibike nta kibazo bifite cyangwa nk'iyo waba uzabijyana ku isoko bizagereyo byujuje ubuziranenge.

Uburyo bwiza bwo gusarura ibigori, urabireka bikumira mu murima, aho ubisarura ukabyanika igihe gitoya, ubundi ukabona kubigeza ku isoko, cyangwa ukabihunika.

Umuceri uhingwa mu bishanga kuko ni igihingwa gikenera amazi menshi kurenza ibindi, niyo mpamvu utawusanga imusozi, kereka mu bidendezi byo mu bishanga niho bakunze kuyihinga.

Urutoki bisaba ko urwitaho iyo ushaka umusaruro uhagije, ukarukorera kandi ukirinda kuvangamo indi myaka kugira ngo ubone umusaruro warwo uhagije.

Hari igihe ibigori bisabwa ko ubikuraho amababi kugira ngo byume neza, bigatuma nawe igihe cyo kubisarura bitakugora, kandi na y'amababi iyo yumye havamo ifumbire.

Ibiti biterwa bigira umusaruro utandukanye, dore ko hari ibyo utera byitwa urubingo bigaburirwa amatungo ndetse n'ibindi byitwa kariyandara, na byo urabitema, ukabigaburira amatungo.

Ibiti bigira umumaro mwinshi, dore ko bikoreshwa mu kubaka urugo, ndetse hari naho bikoreshwa babicana, iyo bikuze cyane na bwo bibazwamo imbaho.

Ipapayi ushobora kuritera ahantu ukarivanga n'ibindi bihingwa wahinze, kuko nta kintu ryangiza kandi na ryo ririfashishwa kuko rikora nk'imbuto.

Gereveriya ni igiti cyifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye, dore ko wakuraho amashami ukayacana, ndetse iyo gikuze kibazwamo imbaho zitunganywamo ibindi bikoresho.

Ibiti biterwa, hari inturusu ndetse n'ikindi kizwi nk'umusave, kigira urubaho rwiza cyane ruba rusa n'umweru, kuko ibikoresho bikozwe muri urwo rubaho birakundwa cyane.

Amashyamba ntabwo asarurwa ku kigero kingana, hari ayasarurwa yarakuze cyane bitewe n'icyo ibyo biti bigiye gukoreshwa nko kubigira amapoto cyangwa ababikoresha bagiye gusakara amazu.

Twitabire kubungabunga ibiti ndetse n'igihe bitemwe haterwe ibindi, kuko iyo bimaze gukura bivamo ibicanwa nk'amakara ndetse hari n'ibibazwamo imbaho zigakoreshwa mu gukora intebe n'ibindi.

Ishyamba riba rikwiye kwitabwaho, rigakorwamo isuku rikurwamo ibiti bitari ngombwa ndetse n'ibindi byamezemo bidakenewe kugira ngo uzabone umusaruro wabyo byarakuze neza, bitarabonye ibindi binyunyuza ibyari kubitunga.

Mu biribwa dukoresha mu ngo zacu, tugomba kuzirikana ko hatagomba kuburamo imboga. Imboga ziba mu bwoko butandukanye, kuko harimo izitwa kayote, hari n'izindi zitwa amadegede.

Hari ibiti bivangwa n'imyaka kandi imyaka wahinze na yo ikera itabangamiwe n'ibyo biti, harimo ibyitwa kariyandara ndetse na gereveriya, ikazagufasha kubona inkwi ku bazicana.

Hari ibihingwa byinshi bitandukanye ndetse hari n'ikizwi nk'igikoro, iyo ugiteye mu butaka bisaba yuko ushinga igiti iruhande rw'aho wagiteye, kugira ngo ibibabi byabyo n'imigozi bizabone aho byuririra.

Umugwegwe uratunganywa ugakorwamo ubudodo bwifashishwa mu kuboha imyenda cyangwa intebe ndetse hari n'ababukoresha mu kuboha imitako.

Niba ukeneye umusaruro w'ibitoki uhagije, reba yuko insina iriho abana bahagije abatari mu mwanya ubakureho kugira ngo insina zizasigaraho zizazeho ibitoki binini.

Igihe umuntu atemye igiti ajye yibuka gutera ikindi gisimbura icyo atemye, byaba byiza ateye bibiri cyangwa akarenzaho kuko bifasha abantu kubona umwuka bahumeka uhagije.

Abahinzi babisobanukiwe batera ibiti bivangwa n'imyaka ku mpande z'imirima kugira ngo bijye byifashishwa gukuraho ibiti byo gucana ndetse n'igihe bahinze imyaka isaba gushingirirwa na byo bakabyifashisha.

Ibiti by'amashyamba bigira umumaro utandukanye kubera y'uko iyo bimaze gukura cyane, bikorwamo imbaho ndetse hari n'ibyifashishwa bigacanwa ku bakibikoresha.

Ushobora guhinga ibintu bitandukanye mu rugo iwawe kandi byose bikaguha umusaruro bitewe nuko wabyitayeho, aho wahinga insina ndetse ugashyiramo n'imbuto nk'ipapayi.

Mu busitani bw'aho dutuye tugomba kwibuka gutera ibiti nka avoka kugira ngo igihe byeze bitugabanyirize amafaranga twatangaga tujya kuzigura ku isoko.

Imbuto zikenerwa gukoreshwa cyane, higanzamo imineke, amaronji, indimu, ibinyomoro, amatunda, wotameroni, imyembe, ndetse n'izindi.

Tegura amafunguro yujuje intungamubiri kandi wibuke gukoresha imboga zirimo karoti, intoryi, sereri, ibitunguru, ibibiringanya, ndetse n'inyanya.

Ubusitani bugomba kwitabwaho igihe bwakuze bugatunganywa, ndetse n'aho ubona ibiti byumye ukaba wabisimbuza ibindi kugira burusheho gusa neza, kandi igihe cy'izuba ukabwuhira.

Mu buhinzi ukora, ibuka kongeramo n'ibinyomoro, kuko bigira umusaruro iyo wabyitayeho, kandi bigira n'umumaro kuko byongera amaraso mu mubiri w'umuntu.

Ahagaragara ibiti byakuze bikivanga n'insinga zikwirakwiza amashanyarazi, biba bikwiye gukurwaho kugira ngo bitazateza impanuka ishingiye ku muriro.

Igihe cy'isarura cy'imiteja iyo kigeze irasarurwa kugira ngo umusaruro wayo ugezwe ku isoko kandi ntabwo ari igikorwa kigoranye kuko n'abana ubiberetse barabikora.

Ibinyomoro bishobora kuma amababi agatakara agashiraho, ariko biterwa n'uko ari igihe cy'izuba ryinshi biba bisaba ngo ubyuhire ubihe amazi ahagije, kuko ni igiti kimara igihe cyera.

Kugira ngo abantu barusheho kwiteza imbere, habaho ubucuruzi buciriritse bugiye butandukanye aho umuntu acuruza inyanya, ibitunguru ndetse na supadipe n'ibindi nka biswi kugira ngo arebe ko ubuzima bwarushaho kugenda neza.

Igihingwa cyitwa imyumbati kirafasha cyane, kuko hakorwamo ifu igakoreshwa nk'ubugari ndetse hari n'iribwa bidasabye ko ikorwamo ifu.

Dutere ubusitani aho dutuye kugira ngo harusheho kugaragara neza kandi indabyo twibuke ko zikorwamo imitako yo mu nzu.

Niba ugira ikibazo mu rwungano ngogozi, koresha kokombure kuko iragufasha imyanda ikajya isohoka aho igomba guca bitagoranye.

Igihingwa cyitwa amadegede bamwe bacyita igihaza, kirakoreshwa cyane kuko nacyo kiri mu bitera imbaraga umubiri kandi kinakorwamo n'amavuta yo guteka.

Ubwiza bw'ahantu butuma hagira agaciro kurushaho, shyira ubusitani aho utuye kandi ubugirire isuku ihagije bizatuma harushaho kugaragara neza.

Karoti ni ikiribwa gikoreshwa nk'imboga kandi kigirira akamaro umubiri w'umuntu, aho ku bafite ikibazo cyo kurwara amaso bayikoresha kandi bikabagirira umumaro.

Gutera ibiti ntago ari iby'abantu bakuru gusa kuko n'abana babitera, ariko ukabererekera uko babikora kugira ngo batabikora nabi, bityo ugasanga igiti bateye ntikimeze.

Ahagenewe inzira zo gucamo amazi zikikije umuhanda, hari igihe usanga harajemo ibitaka, ni ngombwa yuko hasiburwa bikavanwamo kuko iyo bibayemo byinshi bituma amazi atagenda neza.

Imbuto zizwi nk'amatunda ndetse n'izindi zitwa amaranji, aho yifashishwa ku bantu bakunze kugira ikibazo cyo kubura amaraso ndetse n'igihe bagira isereri.

Igiti k'ikinyomoro keraho imbuto zitari nkeya, kandi kimara igihe kinini kera utaratera ibindi, bisaba ngo ukiteho cyane igihe hajeho udukoko uterere umuti igihe.

Inyanya bisaba ngo niba uzihinze ujye uzirikana gahunda yo kuzitera umuti, igihe cyagenwe kugira ngo uzabone umusaruro ufatika kuko iyo utaziteye umuti ntabwo zera neza.

Ubuhinzi bw'ibitunguru butanga umusaruro kandi ni ibintu ushobora kubika igihe kirekire, ukaba wabijyanira ku isoko igihe ushatse kuko ntabwo bipfa kwangirika.

Ushaka gukora ubuhinzi, reba ahantu habugenewe, bitewe n'icyo ugiye guhinga, bizagufasha kugira ngo umenye icyagenewe ubwo butaka, kuko hari ibyo wahahinga ntibihere.

Mu mafunguro yawe ya buri munsi ujye wibuka gukoresha n'imineke kandi wibuke no gukoresha avoka, dore ko igira amavuta y'umwimerere atuma umubiri w'umuntu udakanyarara.

Ushobora guhinga ibigori, ukabitera bitandukanye cyane, hanyuma ukaba wahingamo n'inyanya, bigatuma umusaruro w'inyanya uba mwiza ndetse ukabonamo n'ibigori.

Ubu hari imbuto ziba zarinajwe zera vuba, aho nk'imyembe ushobora kuyitera ikera hadaciyemo igihe kinini, hari ababyigiye babikora bizwi nko gutubura imbuto.

Hirya no hino mu gihugu hari ahakigaragara ubucuruzi buzwi nk'ubuzunguzayi. Ariko kubera ingaruka zibamo zo kwamburwa ndetse no kudatanga umusoro ukwiye bigomba gucika bakajya ahagenewe gucururizwa.

Sarura imboga zawe igihe zeze kugira ngo izindi zizabone uko zishibukaho kandi n'izo wavanyeho mbere zitarangirika, bizatuma umusaruro wawe urushaho kwiyongera.

Mu bucuruzi bw'imbuto, biba byiza iyo uzishyize ahantu, buri bwoko ukabushyira ahabwo, imineke migufi ukayitandukanya n'imiremire ndetse n'amatunda na za watermelon ukabitandukanya.

Mu mafunguro dufata tujye tuzirikana ko tutagomba kuburamo n'ayatera imbaraga umubiri, ahari nk'ibijumba ndetse n'ibihaza kandi n'imyumbati na yo yongerera imbaraga umubiri.

Ubwoko bwa avoka bwera vuba kandi bukagemurwa mu bihugu byo hanze kuko ntabwo zishya vuba kandi zigira n'igihugu gikomeye ntabwo zipfa kwangirika, bityo bigatuma zigera aho zoherejwe nta kibazo zifite.

Gira akarima k'igikoni mu rugo uteremo ubwoko bw'imboga butandukanye kugira ngo ujye uzitegura nk'amafunguro ugaburira abawe ndetse n'abaturanyi nibazikenera ubahe.

igihingwa cyitwa amashaza akundwa n'abantu batari bake hari ayakoreshwa akiri mabisi ndetse hari n'andi akoreshwa yumye akundwa gutekwa akakirizwa abashyitsi

Mu isoko ahacururizwa imboga n'imbuto, usanga bitandukanyijwe n'ibindi kugira ngo buri wese acuruze ibyo acuruza atabangamiwe, kuko hari ibintu bitavangwa.

Gira ubusitani bubereye ijisho, kuko aho utuye iyo uhatunganyije cyangwa aho ukorera, bituma nawe wumva uguwe neza, kuko umwuka uva mu biti wateye aba ari wo uhumeka.

Imboga dukunze gukoresha mu ngo zacu, higanzamo imiteja, korujete, karoti, ibitunguru, inyanya, ndetse n'izindi zizwi nk'imboga za dodo.

Avoka zera vuba kandi zigatanga umusaruro aho usanga ifite imideja ndetse n'ururabo ku buryo igihe kinini uba uri kuyisarura, dore ko no ku isoko ziba zikunzwe cyane.

Imiteja ikoreshwa nk'imboga, aho wayivanga na karoti ndetse n'ibishyimbo, ugafatisha andi mafunguro, ndetse wanayitunganya igakorwamo sarade.

Mu bihingwa duhinga higanzamo n'urusenda, kandi rukundwa n'abantu benshi, dore yuko rugemurwa no mu bihugu byo hanze, kuko nabo bararukenera.

Umugwegwe ni igiti cyiza kuko wagitera kikaba nk'umutako mu rugo ndetse hakorwamo n'ubudodo bukoreshwa mu kuboha imyenda cyangwa n'ibindi bikoresho.

Koresha imbuto urinde umubiri wawe kurwara ndetse uzigaburire n'abawe ube uri kubarinda. Ukoreshe ibinyomoro, amaronji, manderene, imyembe, watermelon.

Mu buhinzi habamo imbuto nyinshi zo guhinga zitandukanye, aho dusangamo ibigori, ibishyimbo, soya, amashaza, amasaka, intoryi, imboga n'ibindi.

Imineke ndetse n'izindi mbuto, biracuruzwa kandi bigakundwa kuko abantu benshi babikenera ndetse hari n'ababikoresha nk'umuti abandi bakabikoresha nk'urukingo.

Imbuto ziganjemo ibinyomoro, amatunda, amaronji ndetse n'indimu, birakoreshwa cyane kuko nk'ibinyomoro n'amaronji, byongera amaraso mu mubiri w'umuntu.

Mu busitani wakoze ujye wibuka no guteramo ibiti by'imbuto birimo nk'amapera ndetse n'amaronji cyangwa na voka kuko imbuto zirakenerwa cyane kandi bifasha abawe kugira intungamubiri zuzuye.

Igihe wahinze intoryi hari izishobora kumishwa n'uburwayi cyangwa n'izuba. Biba byiza iyo ushatse izindi mbuto ugasimbuza aho hantu, cyangwa mbere yo kuzitera ugapimisha ubwo butaka bakareba ikibazo bwaba bufite.

Mu buhinzi hari n'aho umuntu akoresha pasiparume nko muri jaride cyangwa agateramo n'ibindi biti by'indabyo kugira ngo harusheho gusa neza.

Ubuhinzi bugira imbuto nyinshi zitandukanye wahinga kandi zikabyara umusaruro, kuko iyo zigeze ku isoko usanga zikunzwe cyane kandi zihenze.

Orora amatungo magufi kugira ngo ukomeze witeze imbere, yaba inkoko cyangwa ihene, byose bigira umusaruro iyo wabyitayeho ukabikora neza.

Hinga imboga uziteho kugira ngo ujye uzikoresha mu mafunguro utegura kandi iyo ufite izirenze nyinshi wazijyana no ku isoko kuko haba hari abazikenera, bakaza kuzigura.

Ibinyomoro ugomba kubyitaho kuko hari uburwayi bwinshi bubifata aho usanga imbuto zarajeho ibintu bizangiza cyangwa ugasanga amababi yarikunjakunje, bityo byiteho ubitere umuti hakiri kare.

Ahakorwa imihanda hashyirwaho inzira z'amazi kugira ngo atazajya yangiza umuhanda, kandi ahari ingo hagashyirwaho uburyo bwo kwambuka umuntu ajya mu rugo bitamugoye, n'iyo yaba abafite ikinyabiziga hagakorwa ku buryo yakijyana.

Ibitunguru bikoreshwa bigira amabara atandukanye, aho usanga hari ibifite ibara ry'umweru ndetse n'ibindi bigira ibara ritukura, ariko byose birakoreshwa kuko bigirira umubiri akamaro.

Akarima k'igikoni karafasha, kuko uteraho imboga ukunda kwifashisha mu rugo zikaba zikwegereye, kandi bigatuma amafunguro utegurira abawe, aba yujuje intungamubiri.

Aho utuye ntuzabure akarima k'igikoni kugira ngo uge uteramo imboga ukenera aho kugira ngo uge kuzigura kandi uge unakuhira mu gihe k'izuba, bizatuma utabura imboga mu rugo rwawe.

Hari uburyo bwo kuhira butagoye aho kugira ngo ukoreshe rozwari ugakoresha umupira, bigatuma ahantu wari kuhira mu gihe kirekire ukoresha umwanya mutoya.

Ubu hari gahunda yashyizweho ku buryo n'abatuye ku misozi babona uko buhira imyaka bahinze bityo n'igihe cy'izuba ryinshi bakabona umusaruro.

Ibihingwa byinshi bitandukanye ntago bikenera amazi aturutse mu kirere gusa y'imvura, bisaba yuko nawe ushyiraho akawe, ukuhira iyo myaka kugira ngo izaguhe umusaruro ufatika.

Mu rwego rwo kurushaho gushaka ibihaza abaturage mu biribwa, hakorwa ubuhinzi buteye imbere aho n'igihe cy'izuba hashyirwaho uburyo bwo kuhira imyaka yahinzwe.

Uko iminsi igenda ishira, abahinzi bagenda bunguka ubundi bumenyi bwo kuhira imyaka yabo, bidasabye ko bafata rozwari bakavoma baza basuka kuri buri gihingwa, aho besitaramo amarobine, akavubura amazi mu mirima.

Ibishanga byagiye bitunganywa ku buryo bugezweho kugira ngo hajye hahora amazi yo kuhira imyaka, yaba mu gihe cy'izuba kugira ngo bakomeze babone umusaruro.

Muri gahunda yo kurushaho kongera umusaruro, kandi ugakora ibintu mu buryo bwihuse, hashyizweho gahunda yo kuhira umuntu akoresheje umupira, aho yahuhira mu gihe gitoya aho kugira akoreshe rozwari.

Iyo wahinze ahantu hanini ibitunguru, ni byiza ko ukoresha umupira kugira ngo uhuhire hose kandi bitagutwaye imbaraga nyinshi ndetse n'umwanya munini.

Ushobora gutekereza yuko igihe cy'izuba utahinga imyaka yawe ngo yere, ariko urayihinga ubundi ukuhira ugashyiraho amazi ahagije, ubundi na we umusaruro ukazawubona wuzuye.

Amaterasi y'indinganire yagiye akorwa hirya no hino mu gihugu, kugira ngo ubutaka bwajyaga butembanwa n'amazi ndetse ugasanga ahahanamye hacitse imikoki, baharinde ubwo bwangirike bw'ubutaka.

Hari imigezi igenda yangiza inkengero zaho ugasanga hariyongera, hari ibiti byagenywe guterwa ku nkengero zaho kugira ngo zikomeze zibungabunge iyo migezi, itazageza ubwo itana ikajya mu mirima y'abaturage.

Ahamaze gukorwa amaterasi y'indinganire bahinga uburyo babwirijwe kandi bakirinda kuvanga imyaka kuko bituma itera neza, bakibutswa no gushyiramo ishwagara kugira ngo ubutaka niba bufite ubusharire ntibizangize imyaka.

Ibishanga bikunze guhingwamo ibihingwa bitandukanye ariko hakiganzamo umuceri, kuko ni igihingwa gikenera amazi menshi, iyo atabonetse usanga kiteze neza cyangwa ntikinere.

Dufite ubutaka bwinshi bukorerwaho ubuhinzi ndetse hari n'ubutuweho kandi hagakorerwa ubworozi, byose birunganirana ariko ahakorerwa ubuhinzi ho hagira umumaro cyane.

Imirima yagenewe guhingwamo icyayi, itanga umusaruro kuko iyo cyeze bifasha n'abahatuye kubonamo akazi ko kugisoroma, hanyuma nabo bakabona amafaranga yo kubafasha mu buzima bwabo.

Mu cyaro usanga abantu bahatuye hagati yabo harimo intera ndende kuko ho haracyari ubutaka bunini bukorerwaho ubuhinzi cyangwa ubworozi.

Mu myubakire y'abantu iba itandukanye kuko hari abakoresha isakaro tizwi nk'amategura ndetse hari n'abakoresha amabati yo mu mabara atandukanye.

Ibishanga biratunganwa bigahingwamo umuceri, kugira ngo hajye haboneka ibiribwa byunganira ibindi bisanzwe, kuko ho n'igihe cy'izuba abahinzi bashyiramo imyaka kandi ikera.

Ikawa iri mu bihingwa bihingwa hano mu Rwanda, ni ngombwa ko igihe uyifite uyibagarira igihe ugakuramo ibiti bitari ngombwa ndetse n'ibyatsi byamezemo ukabivanamo kugira ngo izaguhe umusaruro ushimishije.

Iyo izuba ricanye cyane tugeze mu gihe cy'Impeshyi ibyatsi byinshi biruma, ugasanga ubusitani bwarumagaye kandi hari ababa bafite ahantu hanini batabona uko bahuhira hose.

Igihe cy'imyidagaduro abanyeshuri bahabwa akanya bagasohoka bakajya gukina imikino itandukanye, abashoboye gukina umupira w'amaguru bakawukina n'abandi bagakina indi mikino bashoboye.

Icyayi gihingwa hano iwacu mu Rwanda ariko gikunze kwera ahantu hataba ubushyuhe bwinshi cyane, iyo cyeze kirasarurwa kikagezwa ku isoko kugira ngo gikoreshwe.

Kugeza ubu hari ibice bimwe na bimwe bitarabona amazi meza yo gukoresha, usanga bavoma amazi mabi atemba cyangwa ayiretse ahantu akaba ari yo bajya gukoresha mu ngo zabo.

Mu gihugu hose ntabwo hera ibihingwa ku kigero kimwe, hari igice gikonja cyeramo ubwoko bumwe bw'ibihingwa ndetse n'igishyuha hakeramo ubundi bwoko, kandi hari n'ahagiye hakorwa amaterasi y'indinganire.

Ahakozwe amaterasi y'indinganire, byatumye abahatuye umusaruro wiyongera kuko ifumbire iguma mu butaka ndetse n'amazi ntatembe ngo agende ahubwo akaguma mu butaka, bigatuma ibihingwa birimo bikura neza.

Ibihingwa byawe iyo wabisasiye, bituma amazi atinda mu butaka kandi n'igihe cyo kuhira ibitaka ntibizamuke ngo bijye ku gihingwa.

Amatungo nk'inka bisaba kuyitaho cyane ukajya ureba ko nta kibazo ifite cyangwa ko ntabyayiriye bigatuma irushaho gukura neza kandi ukayireka ikonka igihe gihagije.

Kororera inka mu kiraro bizagufasha kubona ifumbire bitakugoye kandi ntabwo bikeneye kujya kuziragira ku misozi. Ikindi bituma uyishyiriraho isakaro, ntiyicwe n'izuba cyangwa ngo inyagirwe n'imvura.

Ahororerwa inka hagomba kuba hari isuku ihagije, ugashyiramo icyarire ukazisasira neza kugira ngo zidahura n'uburwayi kandi ntutume bitindamo kuko iyo hajemo ubushyuhe na byo bigira ingaruka ku nka.

Orora amatungo, yaba amagufi cyangwa amaremare kuko bizagufasha kugira umusaruro utubutse mu buhinzi bwawe kuko ayo matungo atanga ifumbire.

Buri wese mu bworozi bwe agira uko afata amatungo ye ariko uba ugomba kuzirikana y'uko zikenera ibiribwa ndetse bigakenera n'amazi yo kunywa kuko na byo bigira inyota.

Amatungo yose woroye, yiteho, uyayagaburire kandi uyagirire isuku, yaba aho yirirwa cyangwa aho arara kugira ngo atazarwara.

Kugira ngo inka zawe zirusheho kuba nziza kandi ubone n'umusaruro nwo kuzikamwa, ita kuzigaburira ubwatsi bwagenewe kongera umukamo kugira ngo nawe ubone umusaruro uhagije.

Amatungo yose ubu yazamuye agaciro, aho ihene ushobora kuyibona ku mafaranga arenze ibihumbi ijana, niyo mpamvu tugomba kwita ku bworozi bwacu kuko ubu ngubu nta kintu kikigura make.

Abahinzi bakenera n'ubworozi, kugira ngo babone ifumbire y'imborera bazajya bashyira mu mirima yabo, hanyuma ikarushaho gutanga umusaruro. Ni yo mpamvu umuntu wese uhinga, aba akwiye korora inka kugira ngo abone iyo fumbire, cyangwa se akayigura n'abafite inka.

Ihene ziri mu matungo atarushya kuyorora kuko ugenda ukayazirika n'ahategereye urugo ukaza gusanga zariye zahaze, bityo ukazirikana kuza kuzigarura mu rugo.

Igihe cyose inka utayitayeho ntago itanga umusaruro uhagije, bisaba ngo uyigaburire kandi uyimenyere ibiyongerera intungamubiri, kuko n'amatungo na yo arabikenera.

Igihe woroye ingurube yiteho uyigaburire ibiyihagije kuko nayo itanga umusaruro utari mukeya kandi igihe yabwaguye wibuke kuyigaburira cyane kugira ngo itarya ibyana byayo.

Inkoko ni itungo rigufi ryororerwa mu rugo, aho hari izitera amagi, nayo agakoreshwa mu kubaka umubiri w'umuntu ndetse n'inyama zayo zigira umumaro.

Kurikirana umushinga wawe w'ubworozi, inkoko uzihere ibyo kurya igihe kandi uzihe n'amazi yo kunywa, wibuke no kuziha imiti kandi usukure neza aho ziba.

Aho wororera ugomba kuzirikana kuyisasira igihe cyose, aho ubona iri hatameze neza ukahatunganya, bizakurinda kuyivuza indwara ziterwa nuko yaraye ahantu hashyuha cyane.

Ingurube ni itungo rishobora kubwagura ibyana byinshi kurenza andi matungo, aho usanga ishobora kubwagura ibyana birenze bitandatu ndetse hari n'izibwagura ibigera muri cumi na bibiri.

Aho dutuye tworora amatungo atandukanye, aho usanga bamwe boroye inkoko abandi ihene ndetse n'inka ariko zose iyo zitaweho zitanga umusaruro.

Ingurube iba mu matungo atarushya kuyorora, dore ko aho uyiziritse uyizanira ibyo kuyitunga kandi mu gihe gitoya ikaguha umusaruro ufatika.

Ubworozi bugira umumaro kuko ubu ngubu yaba inka ntoya cyangwa ikuze, zose usanga zifite agaciro uko iminsi igenda iza na zo zigenda zizamura agaciro kazo bityo umworozi na we ugasanga hari icyo bimumariye.

Aho wororeye ingurube ugomba kubyitaho ugakora isuku aho ziba ndetse zigahabwa n'amazi yo kunywa ndetse n'ibiribwa bihagije.

Igihe woroye inkoko, ibuka gukora isuku ihagije aho zororerwa, ndetse wibuke no kuziha ibiryo byagenewe kugaburirwa inkoko, kandi wibuke no kuziha amazi.

Iyo woroye ingurube ugomba kuyitaho cyane ndetse ugafata n'umwanya ukayoza kugira ngo umwanda cyangwa ubushyuhe butazayitera uburwayi ugasanga igize ikibazo.

Nujya kugaburira ubwatsi inka igihe ari burebure, ujye wibuka kubucamo ibice kugira ngo bitume na yo iburya itabwangiza kandi bitayigoye.

Muri gahunda yo kongera umusaruro w'amata, hatekerejwe uko hakororwa inka zitanga umukamo uhagije, aho kugirango abantu bagumane izatangaga amata makeya.

Ingurube ni amatungo yororoka vuba, igihe uyoroye uba witeze inyungu mu gihe cya hafi, ariko bigasaba yuko nawe uzitaho ukazifata neza, ukazirinda ibyatuma zirwara n'igihe zarwaye ukazivurira igihe.

Leta ikomeza gutekereza ku baturage bayo kugira ngo umusaruro uva ku buhinzi wiyongere, aho habaho gahunda ya Gira inka Munyarwanda, bakareba abatazifite bagomba kuzihabwa bakazibona.

Wowe mworozi shyirira inka ubwatsi ahabugenewe, aho izajya iburira hatari hasi kuko bushobora kwangirika kandi naho ubushyira hazwi nk'amanjwari uge uhakorera isuku.

Ubworozi bw'inkoko, bisaba kubyitaho cyane kandi ukabikora ubifiteho ubumenyi buhagije, kuko zikenera imiti, zigakenera amazi yo kunywa, zigakenera ibiribwa ndetse zikagira n'ikigero cy'ubushyuhe runaka ziba zikeneye ngo zikure.

Aho waroreye inka mu kiraro zirikana kuhasakara kugira ngo itazicwa n'izuba, kuko hari uburwayi inka zirwara bitewe nuko zaviriwe n'izuba ryinshi.

Iyo umuntu yororeye mu rugo biramworohera kuko amatungo uyahereza ubwatsi nawe ukigira mu yindi mirimo, mu gihe mbere hafatwaga umwanya uhagije wo kujya kuziragira ku misozi.

Mu Rwanda hashyizweho gahunda yo kororera mu biraro aho kujya kuragira inka ku misozi kuko bituma ifumbire ikusanyirizwa ahantu hamwe bigatuma umuhinzi uyikoresha ayibona.

Orora inkoko kugira ngo ujye ubona amagi yo gukoresha cyangwa se ukenere n'inyama nazo uzibone hafi yawe bitakugoye.

Kugaburira ingurube ntibihagije, ahubwo uyishyiriramo n'amazi kuko arayifasha cyane, ntabwo zikunda ibintu bikomeye, kandi ugeza n'igihe ukayiyamena ku mubiri kuko zigira ubushyuhe cyane.

Inka aho zororewe mu biraro, zihabwa ubwatsi kandi zigashyirirwa ahabugenewe hazwi nka manjwari ndetse zigashyirirwaho n'ibibumbiro, aho zigomba kunywera amazi.

Aho wororeye ingurube ugomba kuhitaho, ukahakorera isuku ihagije kugira ngo itazitera ubundi burwayi kandi ukajya uzigaburira buri gihe ndetse ukaziha n'imiti zagenewe.

Iyo umuntu yororeye amatungo ye mu rugo, bituma buri wese ayitaho kuko iyo ubwatsi buhari buri wese arazibuha cyangwa akajya kubuzishakira aho buri, biruta kuzijyana ku misozi kuko n'ifumbire ari ho iguma.

Hari ahakigaragara abacuruzi bazwi nk'abazunguzayi, aho usanga batanditse ibicuruzwa ku mihanda, birimo nk'imboga ndetse n'imbuto kugira ngo barebe ko babona ikibatunga.

Amashu na yo akoreshwa nk'imboga ndetse hari n'igihe akoreshwa ari mabisi, aho atunganywa akaribwa nka salade, aho acururizwa aba ahari uyakeneye urayabona.

Hari imbuto cyangwa imboga utera bigasaba ko uzisasira kugira ngo amazi ushyiramo ajye atindamo, aho kugira ngo izuba rive ahite akamukamo; bityo bitume ibyo wahinze bikura nabi.

Amashu arakoreshwa nk'imboga, igihe wayahinze ita kureba ko yeze kuko iyo utinze kuyasarura arasaduka ugasanga yarangiritse.

Hari ubwoko bw'imboga butandukanye, aho hari izigira ibara ry'icyatsi ndetse n'izigira ibara rijya kuba umutuku, zose zirakoreshwa kandi zigira umumaro umwe.

Mu biribwa dukunda gukoresha hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo n'ikizwi nk'ibijumba, ntago bitekwa gusa ahubwo bikorwamo ibisuguti ndetse n'imigati.

Imirima itunganywa yo guhingwamo mu gishanga irafasha kuko igihe cy'izuba abantu bayihingamo kuko ho haba hari amazi yo kuhira ndetse n'igihe cy'imvura nabwo irakoreshwa.

Umugano ni igiti gikunze guterwa hafi y'imigezi kugira ngo kibungabunge ubutaka bw'aho budakomeza kuridukira mu mugezi ndetse ibiti byacyo bikorwamo imitako ndetse n'intebe.

Hari gahunda ya Leta yashyizweho aho hari abahabwa amasoko bakinaza ibiti bivangwa n'imyaka kugira ngo bazabihe abaturage babitere mu mirima yabo.

Ubuhinzi bw'ibigori iyo ubusaruye ubimanika muri hangari kugira ngo umusaruro wawe utazangirika, byamara kuma ukabivungura ndetse ukabona uko ubibika mu mifuka.

Aho binariza imbuto zo gutera hashyirwaho uburyo bwo kuhatwikira kugira ngo igihe imvura iguye ari nyinshi itazajya ibyangiza.

Ahagenewe kwinarizwa ibiti hashyirwaho akantu kameze nka supanete ko kuhatwikira, kugira ngo igihe imvura iguye ari nyinshi itabyangiza, kandi ikagabanya n'umuvuduko w'izuba wabivaho.

Ibishyimbo biri mu bihingwa tweza aho dutuye kandi no ku isoko birahaboneka cyane, dore yuko ari ikiribwa cyifashishwa n'abantu benshi b'ingeri zose.

Amashu ndetse n'imboga ushobora kubitera ahantu ukabivanga ariko ku buryo wabikoze neza, hanyuma wazajya ukenera amashu ukayabona ndetse wakenera n'imboga rwatsi ukazibona.

Imbuto nk'amapapayi wazitera aho utuye cyangwa ukabikora nk'umushinga, ukabishyiramo imbaraga zawe, ukayahinga ahantu hanini, umusaruro uvuyemo ukajya uwugemura ku isoko.

Muhinzi uhinga ibigori, ibuka kubaka ubwanikiro bwabigenewe kugira ngo umusaruro wawe utazangirika kuko bigufasha kugira ngo byume neza, uzabone uko ubibika bitangiritse.

Niba uri umworozi ita ku nka yawe kuko bizatuma na yo ikubyarira umusaruro, uyimenyere imiti ndetse uyigaburire bikwiriye kugira ngo na yo izajye itanga umukamo uhagije.

Abavuzi b'amatungo bagomba gukurikirana inka, ziri aho bakorera kandi bagatera amaherena ku matwi y'inka zivutse vuba kugira ngo bamenye umubare w'iziri aho bakorera hose.

Ahororerwa amatungo nk'intama ndetse n'ihene, hari igihe kigera akarebwa ko nta burwayi afite ndetse hari n'inkingo ahabwa bitewe n'uburwayi buri kwataka ayo matungo.

Hari aborozi babigize umwuga, ku buryo igihe kigera bagasurwa kugira ngo basobanurire abandi, ibanga bakoresheje hanyuma umusaruro uturuka ku bworozi mu gihugu wiyongere.

Imyaka duhinga hari iyo bisaba ko ugura umurama, ukawinaza, ukazabona gutera izo mbuto. Harimo nk'inyanya, intoryi, amashu ndetse na karoti.

Igihe ubonye inka yawe yagize ikibazo itameze neza ihutire kubwira ababyigiye, aba veterineri kugira ngo baze barebe ikibazo ifite, kuko ni bo bazi umuti bayiha bitewe n'ikibazo bayisanganye.

Mu gihugu hose hari abantu bigiye kuvura amatungo, niyo mpamvu igihe itungo ryawe rifite ikibazo cyangwa rikeneye urukingo, ugomba kubitabaza.

Amata agira ibipimo byayo byihariye, aho bapima bakareba niba nta yindi miti irimo yagira ingaruka ku bantu cyangwa se niba nta bindi abayatanga bavanzemo.

Kubera ko byagaragaye ko inka iyo ikuranye amahembe biyibangamira ndetse bikanyunyuza n'umutwe wayo, hari gahunda yo kotsa ahari amahembe kugira ngo atazakura.

Inyamaswa ndende ibereye ijisho, yitwa gasumbashyamba, ifite ijosi rirerire, ndetse n'amaguru maremare, izwiho ko iba mu nyamaswa ndende.

Ingagi ziboneka mu birunga, aho ukeneye kuzireba ajya kuzisura ndetse hari n'abava mu bihugu by'amahanga baje kwirebera ibyo byiza bitatse u Rwanda.

Hari udusimba twinshi tuba duteye ubwuzu, aho nko kubona inkende uba ubona ari akantu gashimishije dore ko hari utuntu twinshi kikora ukaba utarambirwa kukareba.

Mu Rwanda haba inyoni z'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo inini ndetse n'intoya kandi ziboneka mu mabara atandukanye, dore ko aho zikunze kuba ziri ari ahari ibiti.

Imbwa ziri mu nyamaswa zibana n'abantu kuko usanga zo zigira umutima utandukanye n'uw'izindi nyamaswa kuko isigara ku rugo ikarurinda ndetse usanga abantu ibana na bo bose ibazi.

Ibisimba biba mu myobo cyangwa bigaragara ko ari bito, hari igisa n'imbeba ari cyo cyitwa inshombabyuma, kigira umurizo munini, ahandi uba ubona cyenda gusa n'urukwavu.

Hari ubwoko bw'inyoni zigira imirizo miremire ndetse zikagira n'udusunzu tureture, iba ifite amabara atandukanye arimo umuhondo n'ayandi.

Ahagenewe ubukerarugendo usangamo ibiti utapfa kubona ahandi ndetse haba harimo n'inyamaswa nyinshi zitandukanye kuko nizo zituma ba mukerarugendo baza kuhasura.

Imbwa ni inyamaswa iba mu ngo z'abantu aho usanga zitabwaho ndetse zikagaburirwa ariko hari n'izo usanga ba nyirazo batazitaho, zo ubwazo zikihigira ibizitunga.

Mu byiza Imana yaremye harimo ibiguruka birimo inyoni usanga zibereye ijisho, ndetse zikagira amabara ureba ukumva ntiwarambirwa.

Inyamaswa yitwa isha izwi nk'ihene yo mu gasozi, urebye biba bijya kumera kimwe usibye ko amahembe yabyo arutanwa iyiba mu gasozi yo usanga amahembe ari maremare cyane.

Mu biremwa byaremwe habamo inyoni z'ubwoko bwinshi, aho usanga hari izisa n'ibiti ukabona ni ibintu byiza wareba amaso yawe ntahage.

Hari inyoni igira amabara arenga atandatu kandi ari imwe, aho usanga ifite umukara, umutuku, umweru, icyatsi, ubururu, umuhondo n'andi.

Mu cyanya cyahariwe ubukerarugendo hazwi nko mu Kagera, habayo inyamaswa zitwa agasumbashyamba, aho usanga ari ndende zisumba ibiti ndetse n'ibindi bihuru bihari.

Mu nyamaswa zigaragara mu byanya by'ubukerarugendo, harimo n'iyitwa isha izwiho kwirukanka cyane ku buryo nta yindi nyamaswa yapfa kuyisiga cyangwa nk'ishaka kuyigirira nabi ngo ibe yayifata biyoroheye.

Inyamaswa zigiye zitandukanye ariko hari iziba zenda kumera kimwe, aho ushobora kubona iyitwa umuhari ukaba wayitiranya n'imbwa usanzwe ubona.

Muri parike y'Akagera habamo inyamaswa nyinshi ziteye amabengeza, nk'izizwi nk'impara ndetse n'imparage, bituma abantu benshi bitabira kujyayo kuzisura.

Inyamaswa yitwa inkura iba muri parike y'Akagera, aho zivanwa mu bihugu byo hanze zikazanwa mu Rwanda kugira ngo bongerere ba mukerarugendo inyamaswa bazajya babona igihe baje kuhasura.

Ubu mu cyanya cyahariwe ubukerarugendo cya Nyandongo, hagaragaramo inyoni z'ubwoko bwinshi butandukanye, utarahagera azanyarukireyo yirebere ubwiza buhari butangaje.

Inyamaswa nini, yitwa inzovu, dore ko ipima ibiro byinshi, cyane ko n'intoya ushobora gusanga ipima toni irenga, kuko ziba nini kandi zigira uburemere.

Mu rwego rwo kunoza imigenderanire hashyirwaho n'inzira zo mu kirere kugira ngo abantu babone aho baca bitabagoye, hari naho zishyirwa kugira ngo ba mukerarugendo bazifashishe igihe bagiye gusura muri ako gace.

Temberera Nyandungu uzahasanga inyoni z'ubwoko bwinshi butandukanye kuko hari izihari utarabona cyangwa ukaba uzi ngo ntabwo zibaho kuko utarazibona.

Inyamaswa zigaragara mu mashyamba habamo n'iyitwa ingwe, izwiho ko igira amahane kandi igira amabara meza kuko ngo n'uruhu rwayo ruhenda kubi.

Imbeba zirangiza kuko usanga aho wabitse ibintu zarabiriye, uba ugomba kubyitaho kuko naho wahinze imyaka zijya gucukura zikayirya, bisaba rero gukoresha imiti yo kuzirinda.

Agasimba kitwa ikinyogote kaba mu ishyamba kagira ubwirinzi bwihariye buruta ubw'izindi nyamaswa, dore ko kagira amababa ameze nk'amacumu, aho gateye iryo baba uba ugira ngo ni nk'icumu bateye umuntu.

Udusimba twinshi tuba mu ishyamba ubona tujya kumera kimwe, aho ubona nk'inkende cyangwa ingagi ndetse n'inguge, ukaba wabyitiranya utazi kubitandukanya neza.

Mu mashyamba habamo udusimba twinshi tw'amayobera kandi ubona tubereye ijisho, hari nk'akitwa kowara, na ko kaba mu ishyamba, iyo ugiye kuhasura uratubona.

Imbwa ni inyamaswa ikunda kubana n'abantu ndetse igatuma abantu bagira umutekano kuko iyo hari igikomye irasakuza, ikindi izi kwihigira ku buryo ishobora kwishakira ibiyitunga.

Ingagi ni kimwe mu bituma ba mukerarugendo baza mu Gihugu cy'u Rwanda kuko ziboneka hake kandi zigira ubwenge butangaje, bigatuma n'uwazibonye ashishikariza n'abandi kuzaza kuzireba.